Imbwa ifite igipupe cy'umwana mu kanwa ikaba ifite ubwanwa bw'umukara, iruhande rwayo ikaba izengurutswe n'ibyatsi ndetse n'ibiti, ku ruhande rw'iburyo hari ururabo runini ruriho uturabyo tw'umutuku.

Inzu imeze nk'ishuri isize irange ry'umuhondo, hakaba hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye: ik'ibasi, ik'igisokozo, umwana, umweyo ndetse n'ibindi.

Igikuta kiriho ibishushanyo bigiye bitandukanye nk'igisokozo, umwana, ibase byose bishushanyije mu mabara agiye atandukanye. Hasi hari sima yagiye icikagurika.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, hasi hakaba hasize ibara ry'umukara, ikaba iriho ibishushanyo bitandukanye, kimwe kikaba ari icyumweyo, ikindi ikaba ari ikibasi, ikaba ifite n'amagambo abyanditse iruhande.

Ibishushanyo binyuranye harimo inzoka ndetse n'ibikinisho by'abana, ibiti biri mu mabara atandukanye nk'umutuku, icyatsi, umweru wijimye ndetse n'ibindi.

Ibishushanyo biri mu mabara agiye atandukanye, harimo ibifite ibara ry'umuhondo, ibara ry'umutuku, ibara ry'icyatsi kandi byose bikaba biri ku hantu hafite ibara ry'umweru.

Inyubako iriho ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye, wagira ngo ni ishuri rya pirimeri, ifite amabati y'umutuku, isize irangi ry'umuhondo n'umweru, imbere yaho hari ikibuga, hasi gatoya haragaragara imiryango ibiri.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo ishushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye, ikigaragara cyane n'icy'ingorofani isa ubururu yanditseho amagambo ngo wiribaro.

Inzu isize irangi ry'icyatsi, ikaba iriho ibishushanyo biri mu mabara atandukanye y'ibimera. Ibyo bishushanyo bikaba ari igishyimbo, igiti ndetse n'inkoko.

Ibipupe by'abana bimeze nk'imbwa, umwana, injangwe ndetse n'ibindi, biri mu mabara agiye anyuranye. Inyuma yaho hari akantu kariho udutambiko twinshi, tugiye turiho udusaro.

Icyumba cy'ishuri gisize amarangi y'umuhondo, hakaba hariho ibishushanyo by'ibimera byinshi bitandukanye, harimo ibishyimbo ndetse n'ibindi. Hakaba kandi hari abanyeshuri bari gukina n'abari gutambuka, iruhande rw'iryo shuri.

Ishuri ririho igishushanyo k'ikarita y'igihugu gishushanyije mu mabara y'icyatsi, umuhondo, n'ubururu, hakaba handitseho hejuru amagambo ngo the map of Rwanda showing the province.

Umwana w'umuzungu wambaye agapira k'umweru afite ikintu ari kurya ikindi kiri iruhande rwe, yicaye iruhande rw'ikintu kinyuranyuramo kiri mu mabara atandukanye.

Ishuri ry'inshuke ririmo abana bagiye batandukanye imbere hari ikibaho cyanditseho imibare abo bana bicaye ku ntebe, ku bikuta hagiye hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye byanditse mu mabara atandukanye.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yo ku ishuri rimwe, bakaba bafite udushushanyo imbere yabo turiho amafoto, bakaba bafite ndetse n'utuntu dushushanyijeho kuri utwo dushushanyo.

Ikigo k'ishuri gifite amabati asa umutuku. Akaba ari ishuri rifite ibishushanyo byinshi bishushanyijeho biri mu mabara atandukanye; ay'ubururu, ay'umuhondo, ay'icyatsi, ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye amarinete n'ikote ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'ipantaro, akaba ari kugenda areba mu banyeshuri bambaye impuzankano bicaye ku murongo.

Igishushanyo k'imibare kiriho ibizeru byinshi bigiye bitandukanye ahanditse A ahandi handitse U kandi bikaba bigiye biri mu tuzu twinshi tunyuranye turi mu mabara y'umukara, icyatsi ndetse n 'utujya kuba ubururu.

Icyumba k'ishuri cy'abana b'inshuke kiba kirimo intebe nyinshi ndetse n'ameza, utubati turimo ibitabo ndetse n'ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umutuku, icyatsi, umuhondo, ubururu ndetse n'ayandi.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zikaba zisakajwe amabati y'ubururu ndetse zikaba zifite n'ibigega ku mpande zose, imwe ifite urugi rw'ubururu ndetse n'inyuma hari urutoki.

Ameza menshi ari mu nyubako, hakaba hariho kompiyuta nyinshi zigiye zitandukanye zireba mu cyerekezo kimwe. Kuri ayo meza handitseho ngo kompiyuta labu. Inyuma gato hari ibara ry'umuhondo.

Igishushanyo kigaragaza umuryango ugizwe n'ababyeyi babiri, umugabo n'umugore, umugabo akaba yitwa jabo, umugore akaba yitwa simbi. Bakaba barabyaye abana batatu batandukanye.

Ishuri ririmo abanyeshuri ndetse n'umwarimu bakaba bari kwigira mu matsinda, mwarimu ari imbere ku kibaho arimo yandika n'abanyeshuri bakurikiye.

lnyubako z'amashuri zigezweho ,zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zisakaje amatafari afite ibara ry'ubururu, iruhande rwazo hari ikigega cy'umukara, inyuma hari insina.

Igishushanyo cyanditseho itetero kiriho abana babiri ndetse n'umugore wambaye ekuteri mu matwi, yambaye n'isengeri n'ishati y'ubururu, icyo cyapa kikaba ariyikigo cy'Igihugu cy'itangaza makuru RBA.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye ikaba ifite amasikariye yubakishije amabuye, hejuru hariho sima, ku ruhande gato hakaba hari ubusitani n'inzira ijyayo yubakishije amabuye ndetse ikaba ifite n'igisenge cy'amabati.

Abana babiri bicaye ku meza bambaye imyenda y'impuzankano y'ishuri runaka bakaba bari kureba ibishushanyo by'indabo zishushanyijeho mu mabara atandukanye, bakaba na bo wagira ngo bari gushushanya.

Umwana w'umunyeshuri ufite igikinisho kiri mu mabara agiye atandukanye harimo ay'umuhondo, ay'ubururu, ay'icyatsi ndetse kuri icyo gishushanyo harimo udusaro twinshi.

Igishushanyo cy'umugabo n'umugore bicaye bafite abana imbere yabo bari kuganiriza, abana bamwe bicaye ku musambi abandi bicaye ku ntebe, umugore akaba afite intara iriho ibishyimbo.

Ikigo cy'amashuri gifite inzugi z'ubururu, amadirishya y'ubururu, amabati ndetse zubabakishije amatafari ahiye, ku ruhande hari abana benshi bari gukina bigaragara ko bakiri batoya biga mu mashuri y'inshuke.

Umwana uri ku kibahu akaba yambaye ishati y'ubururu, munsi y'ikibahu hari amatafari arimo sima, akaba ari kugerageza kwandika ingombajwi ku kibahu.

Imashini ya komputa igaragara kibodi gusa ikaba iteretseho akantu k'agasanduku karimo ibikoresho binyuranye birimo inyundo, isupane, igipima uburebure, urukero ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri benshi bari mu ishuri bambaye impuzankano y'ishuri, imbere hakaba hari umwarimu wambaye itaburiya n'ikanzu ufite umusatsi w'umukara, akaba ari kureba inyuma mu madirishya. Ishuri rifite amadirishya y'ubururu.

Ikigo cy'amashuri gishakaje amabati giteye irange ry'umuhondo gifite amadirishya n'inzugi by'icyatsi, imbere hari ikigega ndetse na kandagira ukarabe.

Ibikoresho byo kwandikisha byinshi bigiye bitandukanye harimo ikaramu, ikaramu z'ibiti ariko harimo n'umukasi gigiye birambitse ahantu hameze nko ku meza, afite amabara agiye atandukanye.

Inyubako nziza igezweho irimo amakaro iteye irangi, hakaba harimo icyapa, intebe ndetse n'ameza, bigaragara yuko ari ishuri ry'abana b'incuke, hejuru harimo parafo ndetse n'amatara meza agezweho.

Ibikoresho gakondo, kimwe kimeze nka rasoro, ikindi kimeze nk'ishoka n'ikindi kimeze nk'piki, byose birambitse hasi. Icyo bihuriyeho byose bishinze mu giti.

Buwate y'imibare irimo ibikoresho bingiye bitandukanye ku ruhande hari kompa, mo imbere harimo goma ndetse n'agasiba, hamwe n'irati, hamwe n'akantu bandikisha iyo bari gushushanya.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati ndetse kiriho inzugi n'amadirishya by'umukara n'irangi ry'umuhondo, imbere yaho hari abana bahagaze muri jaride bambaye impuzankano y'ishuri.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga bakurikiye mwarimu umwe ari kureba ku kibaho undi ari kwandika, bakaba bambaye amashati y'ubururu bari mu ishuri risize irange ry'umutuku.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru ndetse n'amapantaro y'ubururu, bamwe bambaye n'imipira y'ishuri, bakaba bari ku murongo bavuye guterura ibiryo, umwe akaba afite akabase k'umutuku ndetse n'umweru.

Abanyeshuri benshi barimo abakobwa ndetse n'abahungu bicaye ahantu hamwe abandi bahagaze, inyuma yaho hari ubusitani bwiza ndetse n'ikibuga gitoya.

Abana b'abanyeshuri bari mu ishuri bamwe bigaragara y'uko bari gukorera muri gurupe bafite mashine za karikiratirise mu ntoki ndetse ku ntebe zabo harambitseho impapuro.

Abana benshi b'abanyeshuri bahagaze ku murongo iruhande rw'inyubako z'amashuri, bakaba bambaye impuzankano bamwe iy'ubururu ndetse n'umukara abandi umweru ndetse na kake.

Abantu benshi bambaye imyenda igiye itandukanye harimo abambaye amajire y'abakorerabushake, abandi bambaye imipira y'icyatsi n'amapantaro atandukanye, harimo n'umugabo wambaye umupira utukura, barimo babyina baririmba.

Abasore benshi bari ahantu mu kibuga batoye umurongo bose bakurikiranye, abo basore bambaye imipira y'icyatsi hejuru bafite n'utuntu tw'udukoni mu ntoki hirya yabo hari uruzitiro rw'umweru rw'ibyuma ndetse n'ikigega.

Abana benshi bambaye imyenda igiye itanukanye bamwe bambaye amakanzu ajya gusa umutuku abandi bambaye amashati y'umweru n'amakabutura y'umukara bicaye hamwe bishimye abandi bazamuye amaboko, inyuma yabo hari amazu.

Abagabo benshi bahagaze ahantu imbere y'ikigo cy'amashuri gifite amabati ashaje n'ayandi mashyashya y'ubururu, hakaba harimo umwe wambaye ijiri y'umutuku n'abandi bafite impapuro mu ntoki.

Abantu benshi barimo abanyeshuri bambaye impuzankano hirya yabo hakaba hari abantu bameze nk'abayobozi bicaye ku meza harimo umugore umwe, imbere ku rundi ruhande hari umutaka.

Abanyeshuri benshi b'abakobwa bari kubyina bambaye imipira y'amaboko magufi n'amajipo y'ishuri, bakaba bari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare yazinze, isaha, ipantaro y'umukara, afite mikoro mu ntoki na we ari kuririmba.

Abantu benshi bahagaze imbere ya Kiliziya bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umweru, ababyeyi bakaba bahagaze inyuma yabo baje kubashyigikira, iyo Kiliziya yubakishijwe amabuye ndetse isakajwe amabati.

Abantu bari kugenda ku nyubako z'amashuri zifite uruzitiro rw'ubururu bambaye amajire atandukanye harimo umwe wambaye ingofero y'abafundi ari kugendana n'abandi benshi bari kuzenguruka inyubako.

Abantu bateraniye ahantu mu nzu mberabyombi nini, hakaba hari umukobwa wambaye ishati y'umweru ufite imisatsi y'umukara, akaba ahagaze imbere y'ameza manini ari kwereka ibishushanyo abantu bicaye bafite nk'ibintu bari kwigaho.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, harimo abambaye imipira y'ubururu, abandi bambaye imipira y'umuhondo, harimo n'undi umwe wambaye umupira w'umweru, bari kugenda ku murongo bafite ahantu berekeza.

Abantu bane barimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri bakaba bahagaze ku nyubako y'icyatsi ifite inkingi z'ubururu, umwe akaba yambaye ijire y'icyatsi indi y'ubururu ndetse umugabo akaba afite ajenda mu ntoki.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara, wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara n'umweru, akaba ahagaze imbere yigiti kirekire, inyuma ye hari intebe nyinshi ndetse n'ubusitani bugizwe n'indabo nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako y'ishuri nziza igezweho yubakishije amabati, isize amarangi y'umuhondo hari inzira abantu banyuramo bajya hejuru kandi n'imiryango irakinguye, urebye imbere yayo hari itaka ryinshi ntabwo barahashyira amapave ku ruhande hari igiti.

Icyondo k'ibumba kijya gusa kivurivundi gitobye neza biteguyemo kubumba kirambitse hasi ahantu habugenewe bamenyereye kubumbira kandi bagitunganyije.

Abantu b'abasore bameze nk'abanyeshuri bo muri iniverisite, bakaba bicaye imbere y'ameza maremare bamwe bari kureba hirya, abandi bari kwandika, abandi bari kureba muri telefoni zabo.

Abantu babiri babiri bafatanye mu kiganza umwe akaba yambaye ishati y'umweru afite n'igitabo mu ntoki ndetse n'umusatsi w'umukara undi akaba yambaye ikoti, hirya yabo hari abandi babiri bari kugenda.

Imodoka y'umweru ifite amapine y'umukara ndetse n'irindi pine ihetse inyuma, hirya yayo hakaba hari inzu y'ibati, inyuma yayo hakaba hari amapave ndetse ku ruhande hakaba hari n'umukobwa wambaye umupira ndetse n'ipantaro y'umukara.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru kikaba cyanditseho amagambo menshi cyane ari mu ibara ry'icyatsi, hirya gato hakaba hashushanyijeho igishushanyo cy'umuntu uri mu ibara ry'umutuku ufite amazuru ndetse n'amaso.

Ibikoresho by'ubugeni bikorwa mu ibumba bigiye bitandukanye bikaba biteretse ku kintu kimeze nk'ikarito, kimwe muri ibyo bikorwa kibumbye mu buryo bw'uruzigaziga hejuru hakaba hariho akantu kameze nk'umutwe, iruhande gato hari ikindi na cyo kitaruzura neza.

Abantu bari ahantu hamwe bishimye cyane bambaye imyenda isa y'abanyeshuri barangije icyiciro cya kaminuza, ikaba iri mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo bakaba bari kwifotoza.

Ikibindi kidatunganyije neza, kiri ahantu babumbira ibibindi ndetse n'inkono, kirimo imirongo igiye itandukanye, n'urugara rwacyo ntago rutunganyije neza, bigaragara ko bari kugikora.

Inyubako iri mu mabara atandukanye akaba ariho udushushanyo dutoduto cyane, tw'udusimba turi mu mabara atandukanye, ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku.

Idirishya rifite ibirahure by'umukara, rikaba risize irangi rijya gusa umuhondo cyangwa se icyatsi, rikaba ririho amagambo yanditse ngo rimwe R, rimwe gatatu.

Inyubako nziza igezweho ifite amadirishya y'umukara, imbere hakaba hariho agapapuro kandiditseho ngo: "UR" akarongo kagaramye zeru icyenda, akarongo kaberamye magana atatu na rimwe.

Igikoresho cyo mu rugo kimeze nk'inkono kibumbye mu buryo bwa gakondo hifashishijwe ibumba kikaba giteretse mu kintu bakibumbiyemo, hasi hakaba hari ibikarito bashyiraho ibumba kandi bikaba biri mu nzu irimo ibara ry'umuhondo.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bafite amakaramu ndetse n'amakayi bari kwandika, bicaye ku ntebe bose kandi bambaye udupfukamunwa bicaye ahantu mu nzu.

Ibikoresho by'ubugeni bitandukanye bibumbishijwe ibumba, bikaba biri mu moko atandukanye ibimeze nk'inkono, ibicuma, ibibindi ndetse n'ayandi moko agiye anyuranye.

Abantu b'abanyeshuri bicaye ku ntebe nziza ndetse n'ameza meza agezweho buri wese akaba yicaye imbere ya mudasobwa ye, hari umukobwa uri imbere wambaye agapfukamunwa wicaye imbere ya projecteur.